Inzu nziza zubatse neza imbere hariho ubusitani buboneye, hateyeho n'uturabo, bigaragara ko izi nzu ari amashuri yigirwamo n'abana bakiri batoya kuko hariho imiryango n'intebe bigaragara ko zicarwaho n'abana.

Abanyeshuri bari kwifotoza bahagaze na mwarimu wabo mwarimu ni umuntu uba wigisha abanyeshuri, abaha amasomo kugira ngo bagire ubumenyi buhagije bwo mu ishuri , cyangwa se ubumenyi bwo hanze babatoza ikinyabupfura.

Ishuri ririmo intebe nziza kandi ziboneye, ririmo ikibaho, ikibaho cyifashishwa urimo kwigisha abana kugirango babashe kubifata vuba kandi neza. Igihe ushaka gusoma, abana bakajya imbere bakagenda basoma ibyo babona, ukabashushanyiriza ku kibaho ibishushanyo.

Abanyeshuri bari kwiga kureba mu bikoresho by'ikoranabuhanga, byifashishwa mu kureba udusimba dutoya cyane, udashobora kubonesha amaso yawe. Utwo dusimba ushobora kudusanga mu mazi, cyangwa se mu biryo ugiye kurya,

Abantu bari kubabaza ibikoresho byo mu rugo cyane cyane intebe, ameza ,intebe ikorwa mu giti nk' imbaho ziba zavuye mu ntufe. Intebe uyicaraho igihe urimo kuruhuka cyangwa se utetse.

Abanyeshuri beza bicaye mu ishuri barimo kwiga, bari kwandika ku kibaho. Ikibaho ni cyiza kuko gifasha abanyeshuri kumenya ibyo bagomba kwandika. Mwarimu akifashisha arimo kwandikaho amagambo bari buze gusoma, na bo bakayandika mu makayi yabo.

Abanyeshuri barimo kwiga bari gukoresha mashine, mashine uyifashisha mu bintu bitandukanye, igihe urimo gusacinga ibyo ushaka kwiga cyangwa se ushaka gukora homuwake na bwo urayifashisha, uri kwandika dokima cyangwa se amagambo muri mashine na bwo urayifashisha.

Abana beza bari kwiga bicaye ku ntebe bafite amakeleyo n'impapuro barimo gushushanya, keleyo ni nziza kuko uyifashisha urimo gushushanya, waba ubyishe ukongera ugahanagura, na ho urupapuro urwifashisha urimo gushushanya icyo watekereje.

Abanyeshuri bicaye bari kuganira, bafite ikaramu n'urupapuro, bigaragara ko mwarimu yabahaye umukoro wo gukora, igihe basoje kwiga babaha umukoro, kugira ngo barusheho kubimenya neza.

Ahantu heza hubatse neza bigaragara ko ari ikigo cy'amashuri kigirwamo kubaza, gukanika ndetse no kubaka. Ni ikigo kirimo imbaho ino mashini yifashishwa n'abanyeshuri.

Abanyeshuri bicaye mu ishuri bigaragarako bari kwiga bakurikiye bambaye niforome bafite amakaramu ndetse n'amakayi bari kwandikamo, abanyeshuri bakurikiye mwarimu. Mwarimu ni umuntu uba ubaha ubumenyi bazakoresha bageze hanze bavuye mu ishuri.

Ibyuma by'ikoranabuhanga harimo imigozi bakoresha bacagina mashini na telefone harimo mashini. Mashini ni nziza cyane kuko uyifashisha urimo gusoma cyangwa se urimo kwiga, ushaka no kumenya andi makuru yo hanze y'igihugu no mu gihugu cyawe utuyemo.

Umuntu ufite imashini ikata ibyuma. Imashini ikata ibyuma ni nziza kuko iyo ushaka kubaka no gukora urugi, ufata ibyuma ukabikatagura, ukagenda ubiteranya ukurikije uko ushaka ko urugi ruraba rumeze.

Abanyeshuri bari kwiga gukoresha mayikroskopi. Mayikroskopi ni igikoresho k'ikoranabuhanga cya elegitoronike, aho ubasha kurebamo utuntu dutoya cyane nka mikorobe kugira ngo zitabasha kukwangiza ubuzima n'igihe uri kurya ibiryo cyangwa se uri gukaraba amazi.